Isamake iyo yokeje, iba nziza iraryoha, muri resitora, mu rugo umushitsi, ubona ko imeze imeze neza, isa neza cyane. Kandi igira intungamubiri yuzuye.